Abakanishi bari gukanika moto. Gukanika ni umwuga mwiza cyane ubamo amafaranga yagufasha mu kwiteza imbere.

Abanyeshuri biga gukanika. Gukanika ni umwuga mwiza cyane wagufasha kwiteza imbere mu buzima busanzwe.

Umuntu uri kubaka inyubako. Kubaka ni umwuga mwiza cyane, wagufasha kwiteza imbere ukabona amafaranga.

Abanyeshuri bari mu ishuri, umwarimu ari kwigisha. Kwiga ni byiza cyane kuko bifasha umuntu gutegura ejo he hazaza neza.

Umuntu uri gusudira. Gusudira ni umwuga mwiza cyane ushobora kuguha amafaranga, mu gihe wawukoze neza kandi uzi kuwukora neza.

Abantu bari kwiga gukanika. Gukanika ni byiza cyane, ni umwuga mwiza cyane, uzana amafaranga, ku muntu wawize neza.

Abantu bari kwiga kudoda imyenda itandukanye. Kwiga kudoda ni byiza cyane, ni umwuga mwiza wagufasha kwibeshaho mu gihe kizaza.

Umuntu uri gusudira. Gusudira ni umwuga mwiza wagufasha kwiteza imbere, muri byose ukora.

Abanyeshuri bari kwiga gukoresha kompiyuta. Kwiga ni byiza, kuko bifasha umuntu gutegura ejo he hazaza neza.

Abanyeshuri b'abakerarugendo, kwiga ni byiza kuko bifasha umuntu, kumenya gutegura ejo he hazaza heza.

Abanyeshuri bari mu ishuri. Kwiga ni byiza cyane, kwiga bigirira umuntu akamaro, akamenya gutegura ejo he hazaza ntabe ikigwari mu gihugu cye.

Abanyeshuri biga umwuga wo gukora inkweto. Gukora inkweto ni umwuga mwiza wagukiza ukaguteza imbere, mu buzima busanzwe bwacu bwa buri munsi.

Abanyeshuri bari kwigira ku mashini. Kwiga ni byiza cyane kuko bifasha umuntu kumenya gutegura ejo he hazaza heza.

Umugabo w'umubaji, umwuga w'ububaji ni umwuga mwiza cyane wagufasha kwiteza imbere mu byo ukeneye byose ukabibona bitakugoye.

Umubaji uri kubaza intebe. Kubaza ni umwuga mwiza cyane wagufasha kwiteza imbere mu buzima bwawe bwa buri munsi.

Abantu barimo kwiga umwuga wo kudodesha imashini zigezweho. Imashini , ni nziza cyane, kuko wayikoresha mu mwuga wo kudoda ikakwinjiriza amafaranga ukiteza imbere .